Mu Rwanda tugenda dusanga ifumbire zigiye zitandukanye. Leta y'u Rwanda yararebye ntiyaduha ifumbire y'imborera gusa ahubwo ituzanira n'ifumbire mvaruganda. Aho dusanga ifumbire zigiye zitandukanya. Ifumbire twita dap ndetse na ire, ariko dap usanga ariyo iboneka cyane cyane ushobora kuyikoresha ubagara ibihingwa byawe. Iyo iri mu mifuka y'umweru kandi yanditseho n'amagambo agaragaza ko ari dap koko.

Ababyeyi ndetse n'abapapa bishimiye umusaruro wabo cyangwa bishimiye ugutera imbuto, cyangwa kuzihumbika kugira ngo bazabashe kuzigemura bazijyana ahandi mu yindi mirima, kandi bafite urutoki rwiza kandi rusa neza nta kibazo rufite.

Ibikombe byiza birimo umurama w'inyanya ndetse n'umurama wa karoti, akayetajeri keza ndetse zipanze neza ku murongo, ku buryo ushobora kwinjiramo wese ashobora gusobanukirwa akamenya umuti yifuza uwo ari we, ndetse bakanamusobanurira uko uburyo ugomba gukora, ku buryo ushobora no gusomaho igihe cyangwa igihe uzamara.

Akarima k'igikoni kari mu bintu bidufasha guhinga imboga mu buryo butworoheye kandi hafi yo mu rugo, aho ushobora kubona imboga mu buryo bukoroheye, kandi ubasha no kuzitaho mu buryo bukoroheye nta kwiruka kure, ubasha gukubura ya myanda ukubuye cyangwa bya bishingwe ukuye mu matungo ushobora kubishyiramo maze ukabona imboga ukabasha no kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Aho bacururiza imiti y'amatungo igiye itandukanye aho dusanga bacuruza imiti ivura inka, ivura amatungo y'ingurube ndetse n'amatungo y'ihene, aho usanga buri wese ashobora kuza kugura imiti kugira ngo abashe kuvura itungo ry'iwe maze itungo ry'iwe rigakomeza rikagira ubuzima bwiza.

Ifumbire y'imborera ijyanwa mu mirima igiye itandukanye, imirima ushobora kuyijyana mu mirima y'igikoni cyangwa imirima y'ibishyimbo, bitewe n'imirima wahinze. Ifumbire y'imborera ni nziza ariko bikaba byiza iyo ufite abantu bayigukorera mu rugo, ubona ko iyo abantu bateranye cyangwa bari hamwe bahujwe n'ikintu kimwe nko gutwara ifumbire, urabona ko baba bishimye bitewe n'umusaruro iyi fumbire izabagezaho.

Ibihaza nabyo biri mu mbuto zera, zikera ku byatsi nabyo bisa icyatsi, ariko aho ibyo byatsi birandaranda, ariko bikeraho igihaza aba ari kinini, ariko si byiza no kubivanga n'indi myaka, kuko indi myaka irabibangamira, ntiwabivanga n'ikawa, kuko ikawa ziba ziri kubangamira urwo ruyuzi.

Ababyeyi n'abapapa ubona ko bishimiye, bishimiye igikorwa cyabo, kubaka akarima k'igikoni biri mu bintu nabyo bibashimisha, bifashisha ibyatsi ndetse n'ubutaka kugira ngo babashe kubaka akarima k'igikoni bateremo imbuto zigiye zitandukanye, nk'imboga, ndetse n'ibiringanya kugira ngo bazabashe gusigasira ubuzima bwabo neza.

Ibigori bikiri bitoya, ibigori byashyizweho ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera kugira bikure, biracyari bitoya kandi bifite icyizere cy'uko bizakura, kandi bikamera neza bigatanga umusaruro utandukanye ku babyitayeho, kandi bakabikorera neza. Ibigori bikiri bitoya biba bis'icyatsi, ariko bimaze kwera bigenda bizanamo andi mabara atandukanye.

Imbuto z'ibihwagari ziri mu mbuto zivamo amavuta turya, akenshi iyo zera, zitangira ari icyatsi hasi, zikazamuka, iyo zigeze hejuru ziba zifite imitwe, isa umuhondo ndetse ziba zifite n'utubuto dutoya aritwo tuvamo amavuta duteka, iyo wabanje kubicisha mu ruganda.

Umurima munini utewemo imbuto zigiye zitandukanye, aho usangamo imbuto zimwe z'ibigori ndetse dusanga n'ahantu hakikijwe imigano ifata ubutaka, kugira ngo ubutaka butabasha gutwarwa ni umwuzure basangamo igice kimwe cy'ibigori byeze ndetse n'ibigori bitari byera ndetse n'ibyumye n'izindi mbuto z'icyatsi zigiye zitandukanye kandi zisasiwe neza.

Biba byiza buriya iyo witaye ku rutoki rukiri rutoya kugira ngo urwo rutoki ruzatange umusaruro ndetse rugende ruzana n'imibyare, ya mibyare na yo iragenda igakura ukayicira ugakuramo umusaruro mu bindi bisigaye. Birushaho kuba byiza rero iyo uyitaye ukayiha ifumbire ikwiye atari nyinshi cyane kugira ngo izabashe gukura neza.

Inanasi umuntu yitayeho akazizifata neza akazisasira ndetse akazikorera buri kimwe, ni iziguha umusaruro, aho usanga inanasi ziba zifite na two uduhwa, tugiye turi ku ruhande, ndetse inanasi ziba ziteye neza ntabwo zizamuka ngo zigire hejuru, aba ari ntoya ari ngufi ziringaniye neza, ariko iyo uzitayeho ziguha umusaruro mwiza.

Igitoki iyo kigeze mu mwano, gitangiye kwana, aho iyo gitangiye kwana gitangira no gupfundura amabere agiye atandukanye ,kandi kikaba kiza iyo utangiye kugishyiriraho ifumbire ifumbire mvaruganda, ukavanga n'ifumbire y'imborera, maze ukagikorera neza, ukajangurura amakoma yagiye ashya ukayakuraho, kirushaho kumera neza na cyo kikazakura kikaba igitoki kinini.

Imiyenzi iri mu kimera kibi kandi ikimera udashobora guhingana n'imyaka kuko imiyenzi iyo igiye mu myaka usanga ahanini ntago yuma, ntabwo upfa kuma, ahubwo urazamuka ugashibuka bityo ukangiza imyaka, igatuma imyaka idakura neza.

Si byiza buriya kuvanga ibihingwa kuko nk'urugero ushobora kuvanga ibihingwa nk'imyumbati ukavanga n'ibishyimbo. Kandi tuzi ko imyumbati igira imizi ikomeye noneho ibishyimbo bikagira imizi yoroshye, noneho ya myumbati igakurura imizi y'ibishyimbo ugasanga ibishyimbo birapfuye, imyumbati irazamutse neza.

Ibiti byiza, byiza kandi cyane by'icyatsi biteye neza ndetse pasipaumu ziteye neza, ikirere gisa neza cyane kandi gifite amabara agiye atandukanye, amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara, ni ikirere kibuditseho imvura igiye kugwa n'ubwo ariko igiye kugwa igice kimwe kiri ubururu ndetse n'ikindi gisa umweru.

Umuceri mwiza kandi umuceri nubwo udatonoye ariko ni umuceri mwiza ushobora gutanga umusaruro mu gihe umuntu yawutoye, cyangwa yawujyanye mu ruganda ruwutonora, aho nyirawo aba yishimiye umusaruro we yagezeho bitewe n'uburyo yakoresheje mu guhinga.

Ashimishijwe n'umusaruro wiwe w'ibitoki, igitoki cyiza cy'amabere meza kandi ubona ko kimeze neza kandi bishyigikiye ku buryo kitaza ngo gihirukwe n'umuyaga, ku buryo na nyiracyo acyishimiye cyane kugira ngo na we kizamuhe imineke cyangwa azakijyane ku isoko kimuha amafaranga.

Amashu na yo ari mu mboga nziza kandi ziryoha. Amashu buriya ushobora kuyarya ari mabisi cyangwa ukayarya anahiye. Ariko amashu nayo tuyabarira mu mboga zirinda indwara mu bimera nabyo bishobora kurinda indwara kandi bishobora gutuma umuntu aba mu buzima bwiza. Kandi biba byiza iyo uyitayeho afite n'umuntu uyitaho uyavomerera kandi uyaha intungagihingwa zihagije.

Iyo urutoki urwitayeho cyane ukarufata neza, ukaruha ifumbire ari iy'imborera ndetse n'ifumbire mvaruganda, rugakura rukamera neza, ruguha ibitoki bishimishije cyane ukabona ko ibyo bitoki bishobora kuguha umutobe cyangwa ushobora kuguha ibindi birukomokaho kandi byiza, aho usanga abadamu baba babyishimiye cyane, bitewe n'uko baha agaciro ibyo bitoki.

Inka irwaye, irwaye cyane; ni byiza kwita ku nka kugira ngo itabasha kugira indwara zigiye zitandukanye; ariko iyo irwaye, na byo usanga aba ari ikibazo, biyigiraho ingaruka ugasanga ntitanga umukamo uhagije. Biba byiza rero iyo inka uyitaho cyane kandi ukayishyira ahantu heza, ubasha kuyitaho.

Ingurube za kizungu ziri mu ngurube zitanga umusaruro ushimishije, aho ubona zikura neza kandi ziba zihagaze neza, nubwo akenshi usanga zikunda gufatwa n'indwara ariko u Rwanda rwaraturebeye rusigaye rwarazanye inkingo z'ingurube, aho zitangira gufatwa n'indwara tukazikingira maze zikarushaho gutanga umusaruro ushimishije.

Abaturage barahingira urutoki rwabo barashishikaye, ndetse bari no guhingira imyaka igiye itandukanye iri mu murima wabo, kugira ngo bazabashe kubona umusaruro ubashimishije, kandi bazabashe kubona ibibatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abahinzi bane bahinga bashyize hamwe kandi bafatanyije, nta cyatuma batagira umusaruro kandi ufatika mu gihe bo hagati yabo bari kumvikana kandi bahuje urugwiro, kandi bafite intego imwe, kandi no guhinga bashishikaye, banaganira birafasha cyane.

Umudamu arasarura umurima we w'imiteja, kugira ngo abashe kugera ku isoko abaturage bamugurire na we abashe kubona amafaranga azakoresha ibintu bigiye bitandukanye, azakoresha yishyurira abana be ishuri cyangwa akoreshe agura n'izindi mbuto.

Umusaza ashimishijwe n'urubuto rw'iwe rw'avoka, ararusasira neza kandi akarwitaho kugira ngo ruzamuhe umusaruro mwiza mu minsi iri imbere, kandi ubona ko nta kibazo afite, kandi mu bihingwa by'iwe we abyishimiye cyane; kandi biba byiza iyo wita ku mbuto zawe, kuruta uko wakwita ku bindi byose kugira ngo uzabone umusaruro ushimishije.

Nta kintu gishimisha nko gukorera ahantu hamwe, iyo abantu bakorera hamwe bagafatikanya mu mirimo igiye itandukanye, bakora n'igikorwa kinini, aho usanga bakora umuganda bishimye kandi bakawukora ari abantu benshi, aho bakoze ari abantu benshi usanga rwose hasigara ari isuku, hateye neza kandi kubera ko bakoreye hamwe kandi bafite ubwumvikane.

Umubyeyi ndetse n'umupapa barahinga bishimiye umusaruro wabo babona mu byo bahinga ndetse ubutaka bwabo buri ku buso bunini cyane ndetse n'ibiti bivangwa n'imyaka bishimiye ko guhinga ndetse bazi neza icyo bakora icyari cyo kugira ngo bazabashe kubaho ubuzima bwiza buturutse mu mihingire yabo.

Umupapa arishimira umusaruro wiwe, umusaruro we wa avoka, igiti cya avoka ndetse gifashwe neza, yacyitayeho kubera kubera uko azi agaciro k'igiti cyangwa k'imbuto abyitayeho cyane, ndetse n'imirima iri hirya ye kugira ngo iyo mirima nayo izabashe gutanga umusaruro ugiye utandukanye ku bantu runaka.

lsoko ryiza usanga buri wese aza akazana umusaruro wiwe kugira ngo abone abamugurira ibiribwa byiwe, nk'ibitoki ndetse n'imyendagiye itandukanye ndetse n'ibindi biribwa bijye bitandukanye aho abikura iwe mu rugo cyangwa mubyo yahinze akabizana ku isoko kugira ngo abone abaguzi ndetse na we acyure amafaranga amushimishije.

Ubuhunikiro bw'ibigori ni bwiza cyane, aho umuntu ashobora kuza afite koperative cyangwa muri koperative, agahunika ibigori byiwe cyangwa ubwanikiro bwe kugira ngo ibigori bye bizabashe kugira umusaruro mwiza, iyo ubishyize ahantu hasakaye kandi hameze neza, ku buryo bibasha kubona izuba kandi bikuma neza.

Ibirayi bihinze ku buso bunini cyane, ibirayi bifite indabo zigiye zitandukanye, bifite indabo z'ubururu ndetse n'indabo zenda gusa umweru, ni ibirayi ubona ko bigiye bifite amoko atandukanye, aho bimwe byenda gusa icyatsi cyerurutse ibindi bisa icyatsi, bigiye bihinze ku murongo kugira ngo icyo gihingwa kibashe kuzamuka neza kandi gitange umusaruro ushimishije.

Avoka ziba nziza iyo voka uzibanguriye kuko usanga avoka zibanguriye; ziriya umuntu abangurira muri pipinyeri zitanga umusaruro ufatika kandi ziba ziryoshye aho usanga ziba zitagize ibibuto binini ahubwo ziba zifite utubuto dutoya kandi ugasanga zikunze kuba icyatsi, zifite utunu tw'uduheri, izo voka ziba nziza cyane kandi ziraryoha nko kuzigira deseri ukazirenza ku biryo.

Abadamu beza bishimiye umusaruro wabo bagezweho bagezeho w'ibigori bari gusaba ibigori bagashyira hamwe ndetse ubona ko ari urujya n'uruza bose bari guhuriza hamwe bafatanyije nk'abasenyera umugozi umwe kandi bari gushyira ku bwanakiraru kugira ngo bazabashe kubona umusaruro ufatika.

Ibiigori nabyo biri mu bihingwa nabyo usanga abanyarwanda bibandaho bahinga, ahanini bakunda kubihinga mu kwezi kwa cyenda aho usanga ibihingwa by'ibigori ushobora gukuramo ifu y'ubugari cyangwa ugakoramo ifu y'igikoma aho usanga abantu benshi babishyira ku bwanikiro bakabihuriza hamwe, maze bakabijyana ku nganda maze bagakuramo ifu ndetse n'ibindi bikomokaho byinshi kandi byiza.

Ibiti by'amasederi bivamo imbaho zigiye zitandukanye, aho bivamo imbaho bakoresha muri serikeyi, bikavamo imbaho bubakisha ibitanda ndetse bakoresha n'utubati kandi ubona ko ibiti by'amasederi, iyo wabihinze ku buso bunini bishobora kuguha umusaruro ufatika.

Mu gihugu cy'u Rwanda, naho tugira ibiti tuvanga n'imyaka, nk'urugero nk'ibiti bya gereveriya, biri mu biti na byo bikunda kuvangwa n'imyaka kugira ngo birinde isuri, cyane cyane iyo tubihinze mu bigori, usanga iyo tubihinze mu bigori bitangiza ibigori, ahubwo byose bikurana kandi bikarushaho kuba byiza iyo ubiteranye.

Amavokana na yo ari mu mbuto zigaba amashami, aho usanga iyo avoka uyihinze, cyane cyane iriya iba yarabanguriwe igaba amashami, maze igatanga umusaruro ushimishije. Aho uzigemura mu mahoteri bitewe nuko wayihinze neza kandi ugashyiraho ifumbire kandi ukayishyiriraho igihe, kandi igiti cyawe ukacyitaho neza.

Mu Rwanda tugenda dusangamo n'ibiti, bigenda bihingwa n'imyaka. Ahanini cyane usanga binafata n'ubutaka kugira ngo ubwo butaka butabasha n'isuri. Aho dusanga, dushobora guhinga ibigori ku mpera zabwo, cyangwa ahagana ku muhanda tugashyiraho ibiti by'imyembe, cyangwa ibiti bya voka kugira ngo, dukomeze kurwanya isuri.

Umuhanda w'igitaka ubona ko umuhanda ni uw'igitaka ariko ni mwiza, ufite ubwatsi kandi ibyatsi bisa icyatsi, urutoki rwiza rukikije umuhanda, ubona ko ari byiza nubwo uyu muhanda ari uw'igitaka ariko umeze neza.

Igiti cyatemwe batemyemo ingeri zigiye zitandukanye ndetse ni igiti kinini cyane gifite amashami agiye atandukanye bagiye bakebesha urugero kandi ni igiti ubona ko bashaka kugitwikamo amakara cyangwa gishakwa kugicana.

Ibyatsi ndetse by'ibyatsi bibisi ni byiza ku matungo kuko iyo amatungo abiririye abasha gukamwa abasha gukamwa amata menshi cyangwa abasha no kugira n'umusaruro ugiye utandukanye kandi umusaruro mwiza cyane kandi ibyatsi ni byiza cyane bigifashishwa no mu gukora ifumbire.

Kubaka akarima k'igikoni ukoresha ibiti cyangwa ugakoresha n'imifuka, ariko biba byiza iyo ukoresheje ibiti n'imifuka, ukakazenguruka. Biba byiza niyo ushyizeho, ukazengurutse inshuro eshatu, bituma kera umusaruro kandi ufatika, ugahingamo n'imbuto zifatika ku buryo zizajya zikugaburira mu gihe biri ngombwa.

Ibiti birebire kandi byiza birimo ishyamba rinini riri ku buso bunini cyane. Ibiti birebire kandi ubona ko bikurura cyane izuba kandi bikanadukururira umwuka duhumeka. Ni ibiti biba bishimishije cyane kandi ni ibiti bishobora kubazwamo imbaho cyangwa bakabikoramo imitako igiye itandukanye.

Ba mukerarugendo bari mu bantu binjiza amadovize menshi mu gihugu, kandi bagatuma n'Igihugu gikomeza gutera imbere. Kuko amafaranga yavuye mu bukerarugendo tuyakoresha ibikorwa remezo nk'amashuri, kubaka imihanda, ndetse n'ibindi bitandukanye, kandi na ba mukerarugendo bakagenda bishimye, kubera kureba ibiti byiza bigize Igihugu, cyangwa bigiye biri muri pariki runaka cyangwa biri mu mashyamba agiye atandukanye y'Igihugu.

Amatunda giti iyo uyitayeho neza ukayaha ifumbire ifatika, ufata ifumbire y'imborera ndetse n'ifumbire mvaruganda ukayishyiraho bituma amatunda yawe agira umusaruro mwiza kandi ushimishije. Aho ushobora no kuyahinga ku buso bunini ukajya unagemurira amakosa amasoko agiye atandukanye.

Ibitunguru bihinze ku buso buringaniye, kandi ibitunguru byiza bifatika n'ubwo biri kugenda byuma amababi ariko n'ibitunguru bishobora kuzatanga umusaruro mwiza mu gihe kiri imbere byitaweho bikagirirwa isuku kandi bigashyirwaho ifumbire ku gihe.

Ipapayi iba nziza iyo ihinze mu rugo kugira ngo buri wese ajye abasha kuyitaho, ayikorera isuku ndetse ayishyiraho ibishingwe, anayivomerera kandi ipapayi iri mu mbuto nziza umuntu ashobora gukora nka deseri akayirenza ku biryo mu gihe umaze kurya ifunguro ryawe.

Intoryi witayeho ukazigiria, ukazigirira isuku cyangwa ukaziha ifumbire ku gihe, izo ntoryi zigira umusaruro kandi n'iyo uziteraho umuti kugira ngo ubashe kwica twa dukoko, zituma nazo zikomeza kubaho neza kandi nawe ukabona umusaruro ushimishije ariko iyo utazitayeho usanga ziba zirimo udusimba maze zikagupfira ubusa.

Ibimera na byo bigiye bitandukanye tugenda dusanga mu gihugu cy'u Rwanda dukunda gusangamo ibimera by'indabo, aho indabo uzihinga ku rugo cyangwa ukazihinga mu busitani wifitiye iwawe mu rugo, maze zikaba nazo muri bimwe bigize umutako wo mu rugo kandi ahanini usanga ari na nziza zikunze kuba ari umuhondo kubera ko usanga zikurura abantu benshi bagiye batandukanye ndetse ushobora no kuzifotorezamo.

Imboga za dodo ziri mu mboga nazo zerera igihe gitoya, kandi imboga za dodo ziri mu mboga zirinda indwara cyangwa mu biribwa birinda indwara, ushobora kurya mu gihe wenda ufite umuvuduko w'amaraso cyangwa ushobora kurya mu gihe ufite indwara runaka kandi ugakira, kandi ziba zisa icyatsi, zigira n'umurama ushobora kuzirya ukabaho neza.

Kwita ku musaruro biri mu bintu bishimisha iyo wita ku musaruro bitangira bwa mbere wumva uvunika, ariko iyo uri gusarura nawe urishima cyane kuko cyane cyane rebayo wahinze amatunda ya mugozi iyo kuyasarura urishima ,n' iyo bari kuguha amafaranga ukishima ariko mu ntangiriro uba wumva waravunitse ariko aho uhita wumva imvune yawe hari ahantu ishingiye.

Ibitunguru by'amoko atandukanye; ibitunguru by'amababi, ibitunguru biriya by'ibijumba ndetse n'ibindi bitunguru by'umweru, burya biri mu bintu na byo biryoshya ibiryo, kandi biri mu bintu byinjiriza cyane cyane igitsina gore amafaranga, cyane cyane iyo babivanga n'izindi mboga, harimo imboga za puwavuro ndetse n'izindi mboga za kokombure ndetse n'imiteja, biri mu bintu byinjiriza aba damu amafaranga.

Imboga zitandukanye ushobora no guteka mu nyama, imiteja, ibitunguru kuko ushobora gukoresha ukaranga n'izindi mboga zitandukanye karoti, bikaba byiza iyo biri ahantu hamwe bitavangavanze mu buryo kugira ngo wirinde ko byakangirika.

Igiti giteye ahantu heza kandi igiti kiri mu bintu bikurura umwuka duhumeka, ni indabo nziza kandi indabo zimeze neza, ziteye ahantu heza kandi hari n'ubusitani, kuko uhitayeho ukahafata neza hashobora kubyara ubusitani bwiza kandi bushimishije, ku buryo na buri wese uwo yahishimira.

Ni byiza buriya guhinga imboga, wamara guhinga imboga mu gihe zishaje ukazisimbuza izindi, ukongeramo nk'izindi, nk'imboga za dodo iyo zishaje, biba byiza iyo wongeyemo izindi hahandi zari ziri ukahahinga, ugashyiramo ifumbire mvaruganda ndetse n'ifumbire y'imborera kugira ngo ubashe guhingamo izindi, ni bwo zikura neza.

Guhingira inyanya neza kugira ngo zizaguhe umusaruro ufatika, kandi umusaruro mumva wishimiye; ni uko uzitaho ukazisasira, kuko na cya cyatsi cyayo bituma gikurura urumuri, maze kikabasha kubona intungagihingwa nziza, inyanya ukeza inyanya nziza kandi ziboneye.

Ibihingwa by'ibihaza nabyo biri mu bihingwa usanga aba ari binini cyane, kandi byera hasi, bamwe babibyita ngoko ni inyungu, abandi bakabyita ngo ni ibihaza, usanga byera hasi kandi usanga bifite ururabo rw'umutuku no mw'imbere yawo iyo kimaze gukura kiba gifite imbuto nazo zenda gusa umutuku cyangwa umuhondo, biterwa n'igihaza icyo ari cyo.

Nta kintu cyiza gishimisha nko gukorera hamwe, iyo muhumbika imbuto za avoka, muri hamwe mufatanyije, bamwe bashyiramo ibitaka ndetse n'abandi ntibazisigasira, ndetse n'iyo zimaze gukura bakazitaho neza, kandi bakazishyira ahantu hamwe, aho zibasha gukura zikabona intungagihingwa nziza, ku buryo n'ushobora kuza kuzigura ashobora kwishimira ko zimeze neza.

Ibitunguru biri mu bintu nabyo biryoshye ibiryo, iyo utetse ibiryo ukabikaranga ukabikarangisha igitunguru, ibyo biryo birahumura kandi biba biteye apeti, ugasanga ubirya wese aba abyishimiye kandi yishimiye uburyo biri guhumura, kandi bikamutera apeti bigatuma akomeza kubaho mu buzima busanzwe.

Indabo ni nziza kandi zimeze neza. Zikurura oxygen duhumeka cyangwa umwuka duhumeka; aho usanga indabo na zo ziri mu bimera bihingwa, aha cyane cyane bihingwa ahantu hegereye urugo kugira ngo bibashe, gukurura oxygen duhumeka, maze ubuzima bugakomeza bukaba bwiza.

Hari amasoko amwe n'amwe umuntu ageramo agasangamo imbuto zigiye zishimishije aho usanga harimo za cocombrey, imiteja, ibitunguru ku buryo ushobora kubura imboga zimwe ukagura izindi mu buryo butakubangamiye kandi mu buryo butabangamira imirire yawe kandi ukarya indyo yuzuye.

Indabo z'iroza nazo ziri mu ndabo ushobora kudekora cyangwa gushyira ahantu habereye ikirori bityo ukabona ziteye neza zishimishije, buriya gutegura indabo mu birori bigiye bitandukanye biri mu bintu nabyo bifasha kwataragitinga umuntu cyangwa bishobora gukururira abantu bari buze muri bwa bukwe cyangwa bari buze muri cya kirori cyawe.

Imyungu cyangwa ibihaza biri mu mbuto cyangwa mu bihingwa bituma umuntu atagira umuvuduko iyo ubiririye cyane. Akenshi usanga kwavugaganga babyandikira ku bantu bagira umuvuduko, kuko usanga biryoshye ariko bidafite isukari nyinshi ku buryo bishobora kugira ikibazo mu mubiri wawe.

Mu Rwanda hari ince zigiye zitandukanye aho tugenda dusanga haba hari imodoka zihagaze ku muhanda, ndetse ibi bintu dukunda kusanga ku muhanda wa kaburimbo, aho dusangamo n'abantu bazunguza ku gataro cyangwa mu tubase tugiye dutandukanye, aho baba bafitemo imineke ndetse bafite n'utubase tugiye turimo amatunda cyangwa imbuto zigiye zitandukanye.

Karote nazo tuzisanga mu mu biribwa cyangwa mu mboga na zo turya mu mafunguro yacu agiye atandukanye, dusiba kuzirya buri munsi kubera ubushobozi, aho dusanga n'amatunda nayo tuyakunda atwongerera amaraso, ndetse n'intoryi nazo tuziteka mu biryo bigiye bitandukanye, aho abantu bamwe baziteka no mu nyama ubishoboye.

Urugo rwiza rwubatse neza rwubakishije mu matafari, mu matafari ahiye ndetse na pasiparumu zimeze neza n'indabo zihakikije kandi nazo bateye neza kandi kuba ufite igipangu kiri ahantu heza nabyo, na byo aba ari ingenzi cyane.

Ibinyomoro iyo wabyitayeho ukabiha ifumbire nziza ku buryo bizamuka neza ndetse ukagerageza no kubishyiraho ifumbire mvaruganda uvanze ndetse n'iy'imborera, ibyo bimera birazamuka, ibyo bimera turi kuvuga by'amatunda birazamuka kandi bikagaba imbuto nziza kandi zizewe ku buryo bishobora kuguha umusaruro mwiza.

Indabo na zo ziba mu mitako myiza ,mu mitako ushobora gutaka iwawe, ushobora kuyishyira mu bikombe byabugenewe iwawe mu rugo, maze bikaba byiza, kandi indabo ziri mu bintu na byo bikurura umwuka mwiza duhumeka, kandi bidashobora kubangamira ikiremwamuntu.

Buriya biba byiza iyo witaye ku mboga turya, ziri mubintu birinda indwara cyane cyane nka karoti, iyo karoto zihinze neza kumiringoti cyangwa ukazihinga ku murongo bituma zitanga umusaruro ushimishije, kandi umusaruro ukiyongera ibi bikanarushaho kuba byiza iyo uziriye mu nyama cyangwa ukazirya mu bindi biryo bigiye bitandukanye.

Imboga zi'ishu iyo wazitayeho neza mu buryo bwiza, ukazishyira wa muti wica udukoko ndetse ukaziha ifumbire igiye itandukanye, ari imbonerera ndetse n'ifumbire mvaruganda, iryo shuri rikura neza kandi rikamera neza cyane ku buryo ushobora kurirya wumva umeze neza.

Karoti ziri mu mboga za mbere zituma umuntu abaho neza kandi akomeza kugira ubuzima bwiza ariko cyane cyane iyo wazitayeho, ugakorutira ahantu ziri kugira ngo hatagira n'itungo riza zo kuzangiza inka zishobora kuba zakandagiramo, ihene zizazirisha ugasanga biteje ikibazo.

Mu gihugu cy'u Rwanda dusangamo imbuto zigiye zitandukanye, aho dusangamo imineke, amavoka, ndetse n'imyembe, imyembe iryoha cyane kandi ikoreshwa nayo nka deseri, aho imineke tuyirya ari uko imaze gutukura, kugira ngo twirinde ubukakama bwayo iba ifite, maze tukarushaho kumererwa neza.

Umudamu arita ku mboga ziwe kandi imboga zikeye, imboga zimeze neza, imboga ziri mu bwoko bw'amashufureri, ni imboga z'icyatsi kandi imboga ziri mu biribwa nabyo birinda indwara kandi bituma dukomeza kubaho mu buzima bwiza buzira umuze.

Igihugu cy'u Rwanda cyagiye gitera imbere aho usanga kijye gifite ibyiza nyaburanga; gifite imisozi rwose ushobora guhagarara ukayitegereza ukumva iguteye ibyishimo, aho gisigaye gifite n'iterambere usanga igihugu cy'u Rwanda kigiye gifite ibyuma bivomerera imbuto bitabanje ko umuntu ajya gufata indobo ngo agiye kuvomerera, ibyuma bikaba aribyo bibikora.

Ahantu haba heza iyo hari parikingi imodoka zi ziparikaho ndetse hakaba hari n'ahantu hari ubwatsi bwiza cyangwa hari pasiparumu nziza ku buryo ushobora kuhasohokera, ugaparika imodoka, ukajya muri za siparumu ukariramo amafoto ndetse hari n'uduti twiza ku buryo ushobora kugenda mu kugamamo izuba.

Igihugu cy'u Rwanda kigiye gifite ince zige zitandukanye zagiye zihingamo icyayi, mu nce zigiye zitandukanye z'igihugu tugenda dusangamo ibibaya ndetse n'imisozi ihinzwemo icyayi, icyayi kiri mu bimera byiza biba bisa icyatsi, kandi kiryoha kubi kandi gikundwa no kugemurwa hanze mu bihugu by'abaturanyi kugira ngo na bo babashe kumva uburyohe bwacyo.

Nubwo u Rwanda na rwo ruri mu bihugu biri kugenda bitera imbere umunsi ku wundi, ariko hari ahantu tugenda dusanga ibyaro, aho dusanga imisozi myinshi idatuwe, igiye ifite amatarasi y'indinganire. Amatarasi ari mu bimwe na byo birinda isuri cyangwa birinda gutentebuka k'ubutaka, hari n'aho tugenda dusanga amazu, aho usanga amazu amwe n'amwe mu gihugu cy'u Rwanda, atagiye asize umucanga cyangwa sima, ahubwo ariho icyondo n'amarangi.

Igishanga cyiza gihinzwemo umuceri kandi umuceri mwiza ufatika ufite amazi, biba byiza iyo ubuhinzi umuceri ahantu hari amazi kugira ngo uwo muceri ujye ubasha kubona amazi ndetse ubashe no kuwubagara neza, uwurinde icyawangiza cyose.

Ibyatsi by'amatovu na byo biri mu byatsi bigira amahwa ajombana cyane kandi ibyo byatsi bigakunda kwera ahantu mu gihuru kandi birimeza, ahanini biba bifite amababi y'icyatsi, bifite ubuhwa bugiye busongoye, bushobora kukujomba ugakomereka.

Icyaha kiri ku buso bunini ubuso bugari bukikijwe n'ibiti, ibiti byiza harimo ibiti by'amarideni ndetse icyo cyayi kikaba kiri mu bintu bikurura ba mukerarugendo bava mu bihugu bigiye bitandukanye baje kureba ubwiza bwabyo, icyayi ni igihingwa nacyo kiri mu bihingwa bigufi byera ibibabi by'icyatsi, ibyo bibabi by'icyatsi akaba aribyo twita icyayi.

Gukorera hamwe ntako bisa. Gukorera hamwe iyo mwishyize hamwe muri abantu benshi muri gukora igikorwa runaka, nk'urugero nko guca amaterasi ahantu runaka kugira ngo isuri itazaza ngo itware bwa butaka cyangwa ibihingwa birimo bikagenda. Iyo mukoreramo muri abantu benshi aho tugenda dusanga urujya n'uruza rw'abagabo ndetse n'ingeri zose muri kurwanya isuri.

Biba byiza buriya iyo ubona umusozi ugiye nko kurindimuka ahantu cyangwa ubona uzateza ibibazo mu minsi iri imbere, aho ukorotira n'amabuye noneho ukawutega, ugasa nk'uwutega ubutaka bwazaza bukajya hahandi wateze kuko uba waririnze isuri cyangwa waririnze ibiza mbere y'igihe.

Imirima myiza iri mu kabande ikikijwe amazu ndetse n'umuhanda mwiza ukikije uyu mubande uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ibishyimbo ndetse n'aho dusanga igice kimwe kiba gihinzemo umuceri. Ibi ni byiza kugira ngo umuntu avangavanga ibihingwa kugira ngo umusaruro na wo ukomeze gutera imbere.

Ishyamba rigiye ritandukanye rigiye rivangavanze, ririmo ibiti bya mayideni ndetse n'ibindi biti bigiye bitandukanye by'inturusu ndetse biri ku buso buriho kubuso bunini kandi hariho amaterasi y'indinganire kugira ngo bakumire isuri rishobora kwangiza ibihingwa biri mu kabande bigiye bitandukanye.

Ubutaka bwiza kandi ubuzataka busa inombe. Ubutaka busa inombe buhingwamo imbuto zigiye zitandukanye, aho ushobora guhingamo ibirayi cyangwa imyumbati. Aho ushobora guhingamo n'imbuto zigiye zitandukanye, ushobora no kuwukusanya ugakuramo ifumbire ushobora gushyiramo ibyatsi ikakubyarira umusaruro mwiza kandi ugakora ifumbire y'imbonerera nziza uwushyira ku bihingwa, kandi ibihingwa bikazamuka neza.

Ikibaya cyiza, gikikijwe ndetse n'amazu agiye atandukanye, ndetse gifite imiringoti cyangwa gifite imisozi igiye iteyeho izindi mbuto, ariko ikibaya kiza gifite umuceri, umuceri ukiri mutoya, umuceri utarageza mu gihe cyo kwera, kandi ubona ko ufite icyizere cy'uko uzera, kandi n'abawuteye, ubona ko bawitayeho neza cyane.

Inka nziza y'ikibamba, iri mu kiraro cyubakishije ibiti, ibiti byiza kandi bikomeye byumye, n'abayireba bishimiye iyo nka, ushobora kuba mvuze inka y'ikibamba ukibaza ngo ni iyihe, iba imeze ute? Ni inka ifite amabara y'umukara ndetse n'ay'umweru, aho irisha ubwatsi kandi iba yishimiye ubwatsi iri guhabwa na basebuja.

Ihene na zo zigira amabara agiye atandukanye, tugira ihene z'umukara, iz'ikigina ndetse n'ihene z'umweru, ariko ihene si ngombwa ko wayishyira mu nzu uba ushobora no kuyishyira hanze ukajya uyitaho mu buryo bukwiye, ihene kandi zigira ibiziriko byazo, ntabwo wafate ihene ngo uyizirikishe ikiziriko cy'ikirere ahubwo ugomba kuyigurira ibiziriko byiza bigezweho kugira ngo itabasha gucika.

Ibibwana by'ingurube biri mu kiraro, ikiraro cyubakishije ibiti, byishwe n'inzara bikeneye ko bibona umuntu ubyitaho kandi ubasha kubifasha mu buzima busanzwe, abiha amazi yo kunywa ndetse abaha n'ibyo kurya kugira ngo bibashe gukura biva aho biri bigere mu kindi cyiciro.

Inka n'iyayo, inka ironsa iyayo kugira ngo iyayo ibashe kubona amata kandi ibashe gukura neza, ibashe kuva mu buzima bubi ijye mu bwiza kandi ibashe no gutanga umusaruro ku bantu bose bayitaho.

Buriya korora itungo bya mbere, korora itungo ni ukurireka rikajya ahantu ryisanzura, utarishyize ahantu hafunganye, kuko iyo ryisanzuye, ubona na ryo ribasha kurya neza, rikabasha kuzenguruka aho hantu riri neza, maze rikabasha gukura neza, nk'inka ni urugero, ishobora gutanga umukamo ushimishije, ndetse wajya no kuyigurisha ikaguha amafaranga ashimishije.

Itungo ry'inka riri mu matungo ashimisha, aho usanga itungo ry'inka iyo ruguhaye umukamo wumva uryishimiye kandi ngo aba kera, iyo umuntu yakugabiraga inka, uwo umuntu ntabwo wamwibagirwaga kuko buriya inka iri mu bintu byinshi cyane, iri mu matungo akora imirimo igiye atandukanye nk'urugero inka barayisabisha, aho inka bajya kuyisabisha kandi ababyeyi bakishima.

Biba byiza buriya iyo dufashe amatungo tukayubakira ukwayo, aho kugira ngo ajye ararana n'abantu cyangwa turarane na yo, kuko iyo tuyashyize ukwayo bituma twirinda za ndwara zituruka ku matungo. Kuko itungo riri mu nyamaswa ibika indwara zigiye zitandukanye, nyinshi cyane zishobora kugira ingaruka ku muntu.

Ingurube ziri mu itungo rishobora kubura ibyo kurya maze rikarya ibyana byazo mu gihe bikiri bitoya, kandi ingurube iri mu itungo iyo uryitayeho neza riguha umusaruro ushimishije kandi igatanga amafaranga meza ariko rigaragazwa n'umwanda cyane, rikunze kugira umwanda iyo utaryitayeho.

Ingurube ni itungo ryiza ariko rikaba akarusho iyo rifite uryitaho nk'umupapa cyangwa umudamu cyangwa umwana ubashije kuboneka akaryitaho, noneho biba byiza iyo bose baryitaho kandi bakaryitaho mu buryo bwiza kandi bumwe, rirushaho gutanga umusaruro ushimishije cyane.

Ihene zisa neza, zifite amabara abiri ndetse harimo n'izifite amabara atatu, umweru ndetse n'umukara ndetse n'ikigina, zubakiye ahantu heza, zimwe zirurira kugira ngo zibashe gufata ibiribwa cyangwa ibyatsi kugira ngo zibashe kwitunga ndetse no kurya, zigasangira n'izindi.

Inkoko iyo uzitaho neza kuva mu bwana bwazo ukazitaho neza uziha ibiryo byiza kandi bifatikawa, uziha amazi uzihera amazi ku gihe, ziratera pe kandi zitera neza ariko biba byiza iyo zitera ku buryo ziterera ahantu amagi atabasha kumeneka ugahomba umusaruro uziturukaho.

Itungo ry'ingurube riri mu matungo abwagura ibibwana byinshi ku buryo ushobora kuyigura nk'ibihumbi mirongo itanu iryo tungo ry'ingurugube uguze ihumbi mirongo itanu, rigahita riguha nk'ibihumbi nka magana abiri cyangwa ibihumbi ijana na mirongo itanu, kubera ko ribwagura ibibwana byinshi cyane kandi bitanga umusaruro iyo uryitayeho neza.

Buriya iyo wita ku i tungo ry'inkoko ukaryitaho kuva rikiri ritoya, rizamuka neza kandi iryo tungu ritanga umusaruro ugiye ushimishije rigatanga amagi, ahanini cyane usanga umuntu azorora zikiri ntoya akazizigurisha zikamuha amafaranga. Inkoko ziri mu matungo atanga n'ifumbire; ifumbire nziza umuntu ashyira ku mboga maze imboga zigakura neza.

Ihene ziri mu matungo atunzwe n'ibyatsi byonyine, aho zirya ibyatsi bigiye bitandukanye, zirya urubingo, amakoma kandi bikaba byiza iyo uzitayeho umunsi ku w'undi, zibasha kubaho neza kandi nawe ukabasha kubona amafaranga.

Ibirayi nabyo biri mu bihingwa bitera imbaraga, aho dusanga mu ntungamubiri naho bibarizwamo, kandi ibirayi dukunda kubisanga mu bice zigiye zitandukanye, aho tubisanga mu i Rubavu turabihasanga, ndetse tukabisanga i Musanze, tukabisanga muce zigiye zitandukanye, kandi ibirayi biri mu mbuto zigira amababi y'icyatsi kandi bikerera hasi mu butaka.

Umuceri mwinshi kandi umuceri mwiza ubona ko ni mwiza cyane nta kibazo ufite ariko ntutonoye kugira ngo tumenye umusaruro uvuyemo cyangwa umusaruro uzaduha uri ahantu heza wirundanyije kandi ubona ko nta kibazo uteye, ari umuceri ubona ko uramutse utonewe wavamo umuceri ufatika.

Umugezi ukikijwe n'ibyatsi cyangwa ukikijwe n'imigano igiye itandukanye, bituma uwo mugezi udashobora kuzura ngo ugende usenyere abaturage ibikorwa remezo baba baragezeho, ahubwo iyi migano ituma wa mugezi ukomeza kugenda mu cyerekezo cyawo, maze ibihingwa by'abaturage bigakura bikamera neza.

Akarima k'igikoni ni keza ariko kaba keza iyo ugiye uhingamo imbuto zigiye zitandukanye nta guhingamo ngo amashu yonyine, ni byiza noneho iyo uhinzemo na za mboga nziza ushobora kurya ukavuga ngo mu gihe wenda nta maraso ufite, ushobora kuziryana noneho amaraso akaza nka dodo; hari dodo uhinga ugasanga rwose zishobora kukongerera amaraso mu gihe wayatakaje.

Biba byiza iyo uhinga umurima ugasigamo umufurege kugira ngo amazi ajye abasha kubona aho anyura bitabangamiye ibihingwa byawe. Kandi bikagenda neza aho usanga amazi acamo hagati akagenda ukayayobora ndetse n'igihingwa kigasigara gihagaze neza, ubutaka ukabuganisha ku ruhande rumwe. Birushaho kuba byiza kandi bihita biha umurima ishusho nziza.

Kubakira pepinyeri ni byiza kandi birashimisha, iyo uzubakira usanga ahanini wirinda ko imvura yaza ari nyinshi kugira ngo izigwemo, izangize kandi no kugira ngo izuba ritaza ngo rize ritwike bya bindi biri muri ya pepinyeri, noneho iyo uzitwikiriye bituma zikura zifite ubuhehere kandi zigatanga umusaruro.

Mu moko agiye atandukanye y'inka dusangamo inka zi'ibibamba; inka ziba zifite amahembe y'umukara ndetse n'ay'umweru. Noneho iyo zizanye amahembe, usanga bazica amahembe zikiri ntoya kugira ngo zizabashe gukura neza zibyibushye, ariko kuyica amahembe ntabwo bisaba ngo ube uri wenyine, bisaba ngo mube muri babiri cyangwa muri batatu kugirango mubashe gufatikanya idasaza imigeri.

Leta y'u Rwanda yagiye idukorera ibintu nyine byiza, aho usanga amatungo agiye atandukanye nk'inka bazambika amaherena kugira ngo bazibarure, mu buryo bashobora kubarura inka zigize umudugudu, cyangwa inka ziri mu mu murenge, kugira ngo hatabasha kuza umujura ngo ayibe, cyangwa hagire umujura uyizana mwaho, maze tukarushaho gusigasira ibyacu.

Igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu na byo byita ku matungo, aho usanga gifite abaveterineri bita ku matungo, aho bakingira inka bakayikingira indwara zigiye zitandukanye; hari nk'indwara zari zaradutse mu minsi iri imbere, ubu bita uburenge, ariko ba veterineri bagerageza kuzirwanaho, bakazivura za ndwara, kugira ngo zitabasha gukwirakwira mu zindi nka.

Aho dusanga umuganga w'inzobere cyangwa umuganga wabizobereye. Aho atera imbwa urukingo kugira ngo urwo rukingo iyo mbwa nimara kurufata, itabasha kuruma cyangwa ikaruma n'izindi mbwa bagenzi bayo, cyangwa ikaruma n'abantu. Maze bakagira indwara zigiye zitandukanye, aho usanga bari kuzikingira kugira ngo zigabanye ubukana, cyangwa kugira ngo zitabasha kuruma umuntu, ku buryo na wa muntu yakandura.

Inka iyo uyiciye amahembe, amahemba ukayaringaniza ukayaca ntikomeza kuba manini, inka iragenda ikabyimbuka ikabyimba, cyangwa ikagenda ikabyibuha, kubera ko ya mahembe akenshi arayibangamira cyane, aho usanga injya no kwica n'izindi nka, izicishije ya mahembe yayo.

Hari inka zigira amahane ku buryo inka kugira ngo uyikame cyangwa uyibyaze, aho usanga ubanza no kuyizirika kubera amahane yayo, aho usanga inka zikunda kugira amahane ari inka zikibamba cyane, ariko iyo uri inzobere ubisobanukiwe, ubasha kubikora neza, kandi mu buryo bw'umutuzo.

Kuvura inka mu buryo bwiza ni ukuyivurira mu kiraro cyayo, ariko ukareba umuntu ugufasha kugira ngo uwo muntu aze kugufasha mu gihe inka ishatse kwigira ukuntu cyangwa ishatse kwigaragambya. Maze inka ukabasha kuyivura neza kandi mu buryo bw'umutekano kandi inka igakira, ikabaho neza.

Inka nziza ziri mu rupangu, inka zigiye zifite amabara atandukanye kandi zifite n'abashumba bazo bazitaho neza. Aho dusangamo inka z'ibihogo ndetse n'inka z'ibibamba ziba zifite amabara y'umukara ndetse n'ay'umweru. Inka y'ibihogo ikaba ifite amabara yenda gusa ikigina ndetse na za mukara zigiye zitandukanye.

Guca inka amahembe bigira umumaro mwinshi cyane ariko biba byiza iyo uciye amahembe ikiri ntoya kugira ngo utabasha kuyikomeretsa imitsi imwe yo mu bwonko kuko iyo uciye ari nkuru ushobora kuzayikomeretsa imitsi yo mu bwonko. Kandi biba byiza iyo urebye umuntu ugufasha. inka ntiwayica amahembe uri wenyine nta muntu ugufashije, biba byiza iyo ufite umufasha ugufasha.

Inguge iri mu nyamaswa zishimishije ziri mu birunga bigiye bitandukanye bigize u Rwanda, aho usanga ibirunga byinshi bigiye bicumbikiye inyamaswa nk'izi ari ukugira ngo bikurure ba mukerarugendo bitewe n'ubwiza bwayo, uburyo bikunda abana bayo cyane.

Impala ntabwo wapfa kuyisanga ahantu hose hagiye hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo impala uyisanga ahantu mu mukenke niho impara zikunze kwibera nko mu Kagera tuhasanga umukenke, aho niho dushobora gusanga impara zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ni impala zigira amabara y'umukara ndetse n'ay'umweru aho ziba zisa neza zifite n'umugara.

Ibisiga buriya biri mu nyamaswa cyangwa mu biguruka bitaribwa, kuko ahanini iyo ubiriye unywa amazi cyane mpaka inda ibyimbye ugapfa, ariko ibisiga biri mu bintu bigira amabara meza, amabara y'umweru n'umukara, aho usanga ikipe ya APR na yo iri mu myambaro yayo yambara, usanga yambara imyambaro imeze nk'amabara y'igisiga, ni yo mpamvu usanga bayita ngo ni igikona.

Inzovu iri mu nyamaswa ziba mu mashyamba igira ibiro byinshi ku nyamaswa ziba ku butaka, niyo nyamaswa ya mbere igira ibiro byinshi kandi inzovu ziri mu ziri mu nyamaswa zigira umutonzi munini cyangwa umunwa muremure, kandi zikagira n'amahembe, amahembe yayo tuyifata nk'agaciro kuko ahanini cyane usanga amahembe yayo nayo ari mu bintu bifite agaciro gakomeye.

Imbogo nazo ziri mu nyamaswa z'inkazi dusanga muri pariki zigiye zitandukanye z'igihugu, aho ziba zifite amahembe ateze neza zireba nabi kandi zikunze kuba zisa umukara cyangwa zifite amabara agiye atandukanye, ariko inyinshi ziba zisa umukara zifite amahembe. Dukunda kuzisanga mu duce zigiye zitandukanye aho natwe zidufata nk'inyamaswa.

Mu mapariki agiye atandukanye tugiye dufitemo intare, ariko intare tuyizi ku mwuko iyo ari yo mwami w'ishyamba ni yo iba iyoboye izindi nyamaswa, kuko inka intare iri mu nyamaswa zigira ubukana cyangwa zigira amahane cyane, ni yo mpamvu usanga izindi nyamaswa bavu izindi nyamaswa batazishyi batazita ko ari intare ari umwami w'ishyamba bagafata intare ko ari we mwami w'ishyamba.

Inyoni nziza ihagaze ku giti kandi igiti cyiza ifite isunzu. Isunzu ryayo ni ryiza. Nayo ni inyoni dusanga muri parike ndetse n'ahandi hantu zigenda zikurura ba mukerarugendo zirushaho kutwinjiza amadovize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tukarusho na kugira ubumenyi bugiye butandukanye kuri zo.

Muri pariki zigiye zitandukanye zo mu gihugu hagiye harimo amoko menshi y'inyamaswa, aho dusanga inyoni nyinshi ziteye amabengeza zifite amaso y'umukara, inyoni zifite amababa y'umukara, izifite amababa yenda gusa igitaka, zigiye zitandukanye zihagaze no ku biti byiza, bityo biri no mu bintu bikurura ba mukerarugendo bakabasha kuza mu gihugu cy'u Rwanda.

Inguge ziri mu nyamaswa nazo dusanga muri Nyungwe, ndetse no mu ma pariki agiye atandukanye y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho tuyasanga mu ma parike, inguge zurira ibiti kandi inguge uko uzireba ziba zishimishije, zikunze kuba ni umukara, zigira mu maso h'umukara, ndetse ni inguge zigira amaboko atanu nk'ayo umuntu agira, uzibonye neza mu ishusho ugira ngo ni umuntu.

Udusumbashyamba turi mu nyamaswa ziba nazo mu mashyamba cyangwa mu Mukenke, zikunda kurisha mu biti birebire cyane kuko nazo zigira amajosi maremare. Ntizikunze kunama ngo zigere hasi niyo mpamvu zirisha mu bushorishori bw'ibiti.

Impara zigira amabara atandukanye aho usanga zifite amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara, zikagira umurizo mugufi ariko zikaba ziri mu nyamaswa na zo ziruka cyane, ziriruka ko ziriruka zigasiga intare kuko intare izihiga kubi.

Ibikeri na byo biri mu nyamaswa zikunda kwibera mu mazi, aho biba bifite amaguru aba yihinnye ariko iyo bisimbuka amaguru ahita agororoka, kandi ikindi bigira amaso manini, amaso manini kandi bikaba biri mu nyamaswa zigira ama aside ku buryo ushobora kukirya ugapfa.

Inyoni iri mu nyamaswa zihigira ikizitunga kandi mu buryo bworoheje, aho inyoni nayo idashobora kuba ahantu ngo hamara imyaka ibiri, yimuka kubera ifite ubushobozi bwo kwimuka ikajya ahantu hamwe, iraguruka ,kandi kwa kuguruka imenya aho imyaka yeze, kandi aho imyaka yeze niho inyoni na yo yibera.